Ipombo ni igikoresho abahinzi bifashisha batera imiti yica udukoko tuba turi ku mboga n'imbuto baba barahinze, niyo mpamvu abahinzi benshi bahitamo kugura ibyo bikoresho ngo bahangane n'ibibazo byose bijyanye no kwangirika kw'imyaka yabo.

Ibishyimbo bikenera umuntu ubyitaho kugira ngo abitere umuti urwanya udukoko yewe, no gushyiramo amavaruganda yabugenewe kugira ngo bizabashe kwera neza nk'umwuga waguteza imbere wa kizungu ugezweho.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bifashisha imiti yabugenewe ikoranye ikoranabuhanga riteye imbere, aho usanga bavomerera imyaka yabo ndetse bakanatera imiti izarwanya twa dukoko tuza tukarya ya myaka yabo itarageza igihe cyo gusarurwa.

Inzu zabugenewe zicuruza imiti y'amatungo, ziba zikenewe mu gace runaka kuko usanga buri hantu hose muri iki gihugu, haba hari ubworozi bw'inka, ingurube, ihene, inkoko, ndetse n'ibindi byose.

Ubuhinzi bwiganjemo ikoranabuhanga mbese bugezweho, bufasha abantu batandukanye mu kubasha kubona imbuto, imboga, yewe hari n'imbuto cyangwa imboga zikorwamo imiti.

Amatsinda akora umwuga w'ubworozi bw'amafi usanga abikora kinyamwuga kuko ahabwa inama zitandukanye z'uko bagaburira amafi bakayitaho bakayarera kugeza abonye umusaruro uhagije.

Mu nyanja, mu biyaga, mu mazi agiye atandukanye, abantu bakora umwuga w'uburobyi usanga akenshi baba barabihuguriwe kuko baba bitezweho yuko bazageza iterambere ku gihugu muri rusange.

Abaturage benshi mu batuye mu gihugu runaka, usanga baramaze kumenya agaciro k'ubworozi bw'amafi, kuko bubaha amafaranga, bukabaha ibyo kurya, ndetse bukanatuma batera imbere mu buryo bwa vuba cyangwa se ubu.

Mu cyuzi no mu mugezi muto amafi aba arimo, umuturage ahitamo gukora umwuga w'uburobyi kugira ngo abashe guhaza umuryango mu bijyanye n'imirire ndetse no kurandura indwara ziterwa no kuba nta mafunguro yujuje ibisabwa umwana yafashe.

Mu masoko atandukanye, usanga haba hari abacuruzi bacuruza ibikomoka ku matungo. wavuga amafi n'ibindi byose bifitanye isano n'ibikomoka ku matungo.

Ni byiza ko wigisha akazi abana bawe bakiri bato bakazakura bazi umwuga wabarengera, nko kuvomerera imyaka, urugero kuvomere umuceri kugira ngo nabo bazabone amikoro bageze mu myaka yo kuba bakwishingira ingo zabo.

Abantu benshi bamenyereye kurya inyama bazakubwira ko amafi ari yo nyama, ari byo biryo byiza umuntu ashobora kurya ntagire ikibazo na kimwe kuko nta mavuta ziba zifite nta n'ibindi biba bizirimo.

Kuroba amafi menshi mu mazi, bituma amafi acika kuko wayarobye yose ukayayamamo. Bityo ejo nugaruka kuroba uzasanga mu mazi nta fi n'imwe ikirimo.

Amatsinda y'abaturage yishyize hamwe kugira ngo akore umwuga w'ubworozi bw'amafi, buzabateza imbere mu byo bakeneye byose haba mu buryo bw'amafaranga, haba mu buryo bw'imirire ndetse no mu bindi.

Amafi ni bimwe mu biribwa bikomoka ku matungo bituma umuntu atekereza neza iyo uyariye ku ifunguro rya buri munsi. Abana bamenya ubwenge, abantu bakuru baratekereza ndetse bagera ku bindi byose birimo iterambere mu gihe bakoze umwuga wo korora amafi.

Dukwiriye kumenya ikawa yeze n'iteze tukabitandukanya, kuko hari abo usanga basarura ikawa itarera bityo bayigeza ku ruganda amafaranga akagabanuka cyangwa se umusaruro wawo bakawumena.

Uwanyweye ku majyane y'ikawa nta kindi yakwifuza kunywa kuko igabanya umunaniro, ituma ugira akanyamuneza, ugira imbaraga zo gukora umurimo uwo ariwo wose.

Igihingwa bita icyayi abenshi ntago bazi kugitandukanya n'ibindi bihingwa kubera yuko hari uturere tumwe na tumwe, uduce tumwe na tumwe tudahinga igihingwa cy'icyayi kandi mu by'ukuri kizwiho ko aricyo gihingwa kigira amafaranga menshi cyane.

Mu bihingwa bitanga amafaranga menshi kuri iyi si, usanga higanjemo ikawa, kuko itanga umusaruro ushimishije kandi ikanera igihe kirekire, aho usanga uwayihinze aba yishimiye kuba abona umusaruro w'igihe kirambye.

Inganda zitunganya umusaruro waturutse ku buhinzi zishimiye cyane ukuntu muri iyi minsi umuceri usigaye uboneka, amatsinda y'abaturage yarihuje abasha guhinga afashijwe na tubura umusaruro uraboneka cyane ku rwego rwo hejuru.

Icyayi ni igihingwa ngandurabukungu, aho usanga abagihinze bariteje imbere mu buryo bugaragara, ikindi kandi abagisoroma, abagitunganya, abagishyiramo ifumbire bose babona umushahara ushimishije kuko baba bagikorera igihe cyose ntago icyayi gisarurwa mu gihe cy'imyaka mike ngo gihite gicika.

Ku mugabane w'Afurika ibihugu byinshi byamaze kumenya akamaro k'icyayi n'ibindi bihingwa bitanga amafaranga ku rwego mpuzamahanga, icyayi gifasha abantu bose baturiye mu gace runaka kwiteza imbere.

Ikawa igira akamaro mu mibereho ya muntu, kubera ko ituma uwayihinze abona amafaranga ku buryo bushimishije, ikindi kandi uwanyweye ku majyane y'ikawa, azira ibibazo bitandukanye by'indwara.

Abakora umwuga wo gushoromo icyayi, bavuga ko ariwe mwuga ugira amafaranga, kuko ubikora abayikoresha amenya ngo ndakora aya masaha, ndazinduka cyangwa se ntahe aya masaha, kugira ngo amenye amafaranga yakoreye.

Umuhinzi urimo usarura umusaruro we w'icyayi mu murima w'icyayi. Hakurya yaho hari amashyamba ku musozi, ari byo bita ibihingwa nzahurabukungu, ngandurabukungu, bitangage amafaranga, menshi.

Ingano ni kimwe mu bihingwa by'ibinyampeke bigira umusaruro ushimishije, bivamo ifarini, bivamo ifu y'igikoma, bivamo umutsima, bivamo amafaranga, bivamo ibiryo by'amatungo n'ibindi.

Ubuhinzi bw'icyayi ni ubuhinzi bugira amafaranga cyane kuko umusaruro w'icyayi iyo utunganijwe neza woherezwa mu mahanga mu nganda zigiye zitandukanye bityo zigatuma amafaranga yiyongera mu gihugu umuturage akiteza imbere ndetse n'igihugu muri rusange.

Ikawa n'igihingwa gitanga amafaranga menshi cyane mu gihugu. Abahinzi b'ikawa usanga bariteje imbere mu buryo bufatika, bakanateza imbere aho bakomoka, ndetse n'igihugu muri rusange.

Iyi ni imiti itandukanye ifungiye mu macupa, mu bikoresho byabugenewe, ihabwa ihabwa inyamaswa zitandukanye.

Iyi ni imiti ihabwa amatungo. Bakoresha bavura amatungo cyane cyane inka, ingurube n'inkoko mu gihe zagize ikibazo runaka cyangwa se bashaka yuko zabaho neza.

Abahinzi n'aborozi bakwiye kwita ku nama bahabwa na Leta zijyanye n'uko bazajya bahinga bakabona umusaruro ushimishije, urugero guhinga ibigori n'izindi mbuto, byabafasha kwiteza imbere mu gihe bakurikije ingamba ndetse n'ihindagurika ry'ikirere, bakajya barimenyera ku gihe.

Iyo ufite imirima yawe wahinzemo imyaka, biba byiza iyo ugiye ugafata ibiti bitonna ukabizana ukabitera hagati ya ya myaka ndetse no kumungoti kugira ngo wirinde isuri izaza igatwara umurima yawe n'imyaka byawe.

Abaturage benshi batishoboye, bahitamo kwigurira amagare kugira ngo bayakoreshe mu buhinzi bwabo, aho banyuza ahantu aho ariho hose haba hagoye, aho moto iyo itabasha kuba yatambuka amagare arahanyura yikoreye kandi ibintu byinshi cyane.

Ubuhinzi bw'umuceri usanga bufite agaciro kanini cyane mu bijyanye n'imibereho y'abaturage kuko bakuramo amafunguro, abanyeshuri kandi barawugemurirwa wavuye muri ibyo bishanga, ugatunganywa neza, ukagezwa ku bawukeneye.

Ni byiza ko abaturage bose bihangira umurimo. Urugero twatanga, abaturage bashobora gukora umwuga wo guhumbika imbuto zo kurya, imbuto zo kuba bahinga ndetse bakanazigurisha mu mibereho yabo.

Abakora umwuga wo kwikorera ibintu n'ibicuruzwa bifashisha amagare mu buhinzi, mu bworozi ndetse no mu bundi bucuruzi kugira ngo bibashe kubagereza imizigo aho bashaka ko igera.

Umushinga wo gutera ibiti bitona ni mwiza cyane kubera yuko uwuvanga n'imyaka byose ukazagera igihe cyo kubisarura bityo umusaruro w'ibihingwa birenze bibiri ukawubona ntakiazo.

Kuvomera imyaka birafasha cyane kuko buri muhinzi ahinga imyaka mu gihe cyose ashaka, kuko aba yizeye neza ko afite ikoranabuhanga rizatuma avomerera iyo myaka ye ntiyume.

Abaturage bakora umwuga w'ubuhinzi bishimye cyane kubera yuko ariho bavana ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kugurisha bakuramo amafaranga, amatungo yabo nayo akabona ibyo kurya bityo bakabona amata.

Abakecuru benshi baba bazi ubwenge. Aho usanga bikorera umwuga w'ubuhinzi bagahinga ibigori ku buryo bushimishije, aho icyo bakeneye cyose babasha kukibonera batarindiriye gutega amaboko Leta.

Gukora ubusitani bigaragaza ahantu utuye neza cyane, haba habengerana, ku buryo uhagana wese ababona hafite isuku bityo bigatuma abiyongera baza kugusura baturuka aho ariho hose.

Aha ni mu murima urimo ibigori, n'indi myaka ishingiye ku buhinzi.

Mu bice by'igihugu bigiye bitandukanye abaturage usanga bariteje imbere binyuze mu buhinzi n'ubworozi, aho abaturage bibumbura mu matsinda bagakora umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi cyane cyane guhinga ibigori n'ibindi bigeza ku iterambere.

Ibigori, ibigori byeze, byeze neza bifite amababi yumye, bigaragara nyine ko byasarurwa, bigeze mu igihe cyo gusarurwa.

Ni ngombwa ko abahinzi n'aborozi basobanurirwa igihe cya nyacyo cyo guhinga imyaka yabo kugira ngo birinde ibihombo biterwa n'ibiza bitandukanye ndetse banabigishe uko babasha kuvomerera imyaka yabo bakoresheje ikoranabuhanga

Ibigori ni ibihingwa byerera hejuru, bitanga impungure zo guteka, zitanga igikoma, bitanga umutsima, bitanga yewe n'inzoga mu gihe byavanzwe n'ibindi bintu.

Umwembe ni igiti cyeraho imbuto abantu bakarya bakirinda indwara ziterwa no kuba nta mbuto abantu barya. Ikindi kandi umwembe, uvamo umutobe abantu bakabasha kuwunywa, ugasimbura izindi nzoga.

Mu masoko ya none usanga haba higanjemo ingeri z'imyaka igiye itandukanye yo kurya, urugero inyanya, karote, ibigori, imboga rwatsi nka dodo ndetse n'ibindi.

Ibishanga byo mu gihugu bikemura ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuhinzi, aho ushobora gufata igishanga kimwe ukagikamura neza, ukagihinga, ugacamo ibice, ugahingamo umuceri, maze ukabasha kurandura inzara.

Imyumbati ni ubwoko bw'ibihingwa bwerera mu butaka aho byera mu gihe kingana n'umwaka, itanga isombe, igatanga ubugari ndetse n'imyumbati abenshi mu ndyo ya kinyarwanda cyangwa se mu ndyo mu ndyo ya kera bayishyira, imyumbati bayiteka ku bishyimbo.

Urutoki rugira akamaro kubera ko rutanga imineke, rutanga imitobe, rutanga ibiryo nko mu gihe watetse igitoki ndetse amafaranga ariyongera bityo n'imisoro ya leta ku bakora ubwo bucuruzi igatangwa Igihugu kigatera imbere.

Akarima k'igikoni ni ahantu habugenewe hashishikarijwe abaturage binyuze mu nkunga ya leta kugira ngo harandurwe ibibazo biterwa n'imirire mibi, bibanda cyane ku gutera imboga n'imbuto kugira ngo ibibazo biranduke.

Ubuhinzi bw'ibitoki bugezweho, butuma agace runaka kabona imineke, kabona ibitoki byo guteka, kabona umutobe wo kunywa mu gihe abantu bagize inyota, yewe kabona n'inzoga bita urwagwa mu muco w'ahantu runaka.

Ibinyampeke cyane cyane nk'ibigori, bifasha abantu mu kubona ibyo kurya bitagoranye. Aho twavugamo igikoma, umutsima, ibiryo by'amatungo ndetse n'amafaranga.

Imyumbati ni imwe mu biryo bitera imbaraga, aho usanga uwayiriye ashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose gishoboka kimusaba imbaraga, kuko itanga ubugari, igatanga imyumbati yo guteka ku bishyimbo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Imyumbati ni kimwe mu bihingwa byerera hasi mu butaka, bifite agaciro gakomeye cyane nko gutanga isombe, mu gihe isaruwe igatanga ubugari ndetse ikanatekwa nk'ibiryo.

Umwembe ni igiti cy'imbuto, cyera mu mwaka rimwe, kiba gifite ubushobozi bwo gutunga nibura ingo eshanu mu gihe wawusaruye ukajyana ku masoko cyangwa ugatumira abavandimwe bawe mukicara hasi mugasangira kuri uwo musaruro.

Imisozi miremire cyane y'ibirunga, niyo ifasha ahantu runaka kuboneka imvura nyinshi cyane ndetse n'inyamaswa zikahagira aho gutura, ari byo bikurura ba mukerarugendo.

Ni byiza gukora amasuku mu ngo zacu aho duturiye ahegereye ingo zacu kugira ngo twirinde ko imibu yazarika mu bidendezi, cyangwa se ikarika mu bihuru yegereye ingo zacu bityo tukarinda malariya ku buryo bugaragara.

Abantu muri iyi si, abenshi bamenye ubwenge bwo guhinga imyaka yabo aho ari ho hose, bagateramo ibiti bitona bizabafasha kurwanya isuri ndetse no kubona ibiryo by'amatungo yabo.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe amashyamba, gikangurira abaturage kwitabira gusazura ibiti aho byashaje ikindi kandi watema kimwe ugatera bibiri kugira ngo wirinde inkangu ziterwa no kuba nta biti biri ku musozi uhanamye cyane.

Mu ishyamba rya Nyungwe harimo amoko y'ibiti atandukanye, harimo inyamaswa zitandukanye, bikurura ba mukerarugendo kuko baba bashaka kumenya amoko y'ibiti runaka biba muri iyi si, ndetse n'inyamaswa zituye muri iyi si amazina yazo.

Ubuhinzi bw'imboga, imyumbati ndetse n'ibindi bikomoka ku buhinzi, usanga bifasha abategarugori ndetse n'abakiri bato mu rubyiruko kwiteza imbere mu buryo butandukanye.

Amashu ni igihingwa cy'imboga rwatsi abantu bahinga bakazajya bakirya kugira ngo babashe guhangana n'ibibazo by'imirire mibi bikunda kugaragara mu ngo zabo ndetse n'aho baherereye hose.

Inyanya ni zimwe mu mafunguro umuntu afata akayavanga n'ibiryo, yarya akumva araryohewe cyane arizihiwe yewe bikanatuma arwanya indwara zitandukanye ziterwa n'imirire mibi yo kutabona imboga ku gihe.

Imbuto nyinshi iyo zitunganijwe neza zingira akamaro mu nganda, aho inganda zizifashisha mu gukora ibinyobwa bitandukanye, birimo imitobe n'indi miti ivura abantu.

Ubuhinzi bwa kijyambere bwiganjemo imboga rwatsi, bwiganjemo ibishyimbo, fasha abaturage bose kutandura cyangwa se kurwara indwara zose zifite aho zihuriye n'imirire mibi.

Ubu ni ubuhinzi bw'imboga buba buhingitse mu buryo, mu buryo bw'ubusitani, nk'uko bigaragara ni ubusitani bahinzemo imboga zo mu bwoko bita amashu, mu buryo bwa kijyambere.

Ni byiza ko abantu bihangira imirimo itabasaba igishoro cyo ku rwego rwo hejuru, twavugamo nk'ubuhinzi bw'imboga aho umuturage runaka ashobora gukora ubuhinzi bw'ubutunguru akazajya abasha kubona ibyo akeneye mu gihe yabishoye mu masoko.

Iyo ukora umwuga w'ubuhinzi bw'imbuto n'imboga ugomba kugira uburyo bwo kuzajya uvomerera izo mboga zawe kuko niho zera neza, nubwo waba nta koranabuhanga ufite ngo wifashishe mu kuvomera iyo myaka yawe wifashisha ibikoresho gakondo.

Ibitunguru n'izindi mboga rwatsi bigirakamaro ku buryo bugaragara. Uhinga ubutunguru usanga amafunguro ye aba yateguye ateketse mu buryo buryohereye.

Abagore bo muri iyi Isi ya none, usanga bariteje imbere, aho yigira inama yo gukora ubuhinzi bwa kijyambere bw'imbuto n'imboga kugira ngo abashe gutandukana n'ibibazo byo guhora asaba amafaranga umugabo kandi mu by'ukuri ntashoboye kuba yayakorera.

Kwegera abahanga mu bijyanye n'ubuhinzi bw'imbuto n'imboga biragufasha kuko bituma bakwigisha uko wazajya uvomere imbuto zawe n'imboga bikaguha umusaruro ukiteza imbere.

kuvomerera imyaka ni bumwe mu buryo butuma ahantu henshi cyane hataboneka imvura, abaturage babasha guhinga bakabona umusaruro, twavuga nko mu butayu cyangwa mu gihe cy'izuba rirerire bakunze kwita mu kinyarwanda icyi.

Kuvomerera imyaka ni kimwe mu bintu bituma abantu babona umusaruro mwiza mwinshi kandi byihuse, kuvomerera urutoki, kuvomerera imboga rwatsi ndetse n'indi myaka abantu baba bahinze.

Ubuhinzi bw'amashu bwa gihanga bituma amashu ahingwa akera mu gihe gito kubera ko aba abasha kuba yisanzuye ku miringoti aba ahinzeho bakabona uko bayavomerera uko bashyiraho n'imvaruganda.

Ni byiza ko abantu bigishwa ikoranabuhanga ryifashishwa mu buhinzi bwabo, bakavomera imyaka yabo igiye itandukanye harimo ubunyobwa, ibishyimbo, n'indi myaka yose kugira ngo umusaruro ubashe kuboneka kandi vuba.

Imboga rwatsi zose zikunda guhingwa ahantu heza zibasha kubona amazi ndetse n'akazuba. Niyo mpamvu iyo ufite ibikoresho by'ikoranabuhanga mu kuvomera imboga zawe, zera cyane.

Umuhinzi uri kuvomerera imyaka bya kijyambere, higanjemo ubunyobwa, ndetse no hakurya yaho hari urutoki rwinshi.

Igihe cyose uhinze ikawa, uba ugomba no kugura ibikoresho byabugenewe, bizifashishwa mu kuvomera iyo kawa yawe kuko ikawa ni kimwe mu bihingwa, bitanga amafaranga menshi.

Kuvomerera imyaka muri iki gihe bikoranye uburyo bw'ikoranabuhanga kubera yuko umuntu ahinga ku buryo bw'uduce runaka agabanyamo umurima we ibice bitandukanye, mu igihe icyo ari cyo cyose akabasha guhinga kuko aba yizeye ko azavomerera iyo myaka ye, akoresheje icyo bita umupira.

Abantu bagomba kuba maso bagatura ahantu hadashyira ubuzima bwabo mu kaga, aho biba ari ngombwa gutura ahantu leta yemeye ko hari ibishushanyo mbonera, yewe ho guturwa.

Mu misozi myinshi ihanamye yo muri Afurika usanga leta zitandukanye ziburira abaturage guhinga ibiti bifata amazi kugira ngo isuri itazatwara imima yabo bityo ayo mazi na yo akabasha kubaho aho ngaho ntacyo yangiza.

Ibirunga ni bimwe mu bikorwa nyaburanga biba bigize agace runaka. Bikurura ba mukerarugendo, inyamaswa nk'ingagi zikunze kujya kwiberayo, inyamaswa zitandukanye nk'inyoni zikunze kwiberayo kuko haba hatuje cyane.

Imisozi myinshi iba iberanye no kuyihingaho amashyamba kugira ngo azabashe kurwanya isuri kubera yuko iba ihanamye cyane. Ikindi kandi ugahingaho imyaka kugira ngo ubashe kuzira cya cyuho cya y'amazi yinjira mu butaka.

Icyayi gihinze ahantu heza cyane kigira umusaruro abaturage bakiteza imbere, inganda, igihugu ndetse n'isi muri rusange, yifashisha umusaruro ukomoka mu cyayi mu gukora imiti igiye itandukanye ituma isi ibaho izira umuze.

Ibihugu byinshi biteye imbere bifite imisozi miremire cyane, byize ubwenge n'amayeri y'ukuntu bajya bahinga imyaka itanga amafaranga, urugero icyayi cyinjiza amafaranga menshi cyane mu gihe ahantu mu by'ukuri nta kindi wahakorera uhitamo guhingamo icyo cyayi n'amashyamba.

Ahantu heza nyaburanga, ahenshi haba hari ibiyaga, imigezi minini cyane, imisozi myiza n'amashyamba, aho imisozi iyo ari miremire hari ibirwa biri hagati y'ayo mazi.

Abantu bajye bitondera gutura ahantu hareshya cyane batabashije kurwanya isuri, mbese gutera ibiti bizajya bifata amazi kuko iyo huzuye amazi areka aho ngaho kuko nta handi aba afite hokujya bitewe n'uko hareshya cyane.

Inyambo, ni ubwoko bw'inka nziza cyane zaba zifite amahembe, ategeye hejuru asa n'arebana zigira umukamo uhagije ndetse no mu mata aba aryoshye cyane kuburyo butangaje.

Ubworozi bw'inka za kijyambere, busaba kubaka ibiraro bikomeye kandi birambye byujuje ibisabwa byose kugira ngo ayo amatungo y'inka azabashe kubaho neza, agaburirwa, yitabwaho, atavirwa, mbese nta kibazo.

Ubworozi bugezweho muri iyi si ya none ni ubwa kijyambere bw'amatungo maremare ndetse n'agiye atandukanye, usanga aborozi bahitamo korora mu biraro inka zabo za kijyambere bakunze kwita inkoni za kizungu kuko zigira umusaruro ushimishije.

Ubu ni ubworozi bw'amatungo y'inka y'inyambo, ziri mu rwuri muri gahunda yo kuzibanguriza ku mfizi zazo no kuziha no kuzitera imiti, ku bavuzi, ku baganga b'amatungo babugenewe.

Kuva inyana zikivuka uba ugomba kuzitaho ziri mu ruhongore kugira ngo zizabashe gukura neza nta kibazo cy'uburwayi, nta kibazo k'inzara zifite bityo bikazakugeza ku iterambere.

Ubworozi ni umwuga uteza imbere abawukora, abahinzi n'aborozi usanga muri ibi bihe tugezemo, aribo bikubiye kimwe cya gatatu cy'umutungo w'isi muri rusange, kubera yuko amatungo agira uruhare runini cyane mu kugira ngo ibyo tubona byose bibeho, urugero twatanga nk'amahene ya kijyambere.

Ingurube ni itungo rigufi rigira akamaro gatandukanye. Ingurube itanga amavuta yo guteka mu gihe bayibaze. Ingurube kandi itanga amafaranga ku wayoroye.

Inkoko ni zimwe mu matungo magufi agira inyama z'umwimerere ziryoshye cyane aho usanga abafite amafaranga b'abakire bigurira inyama y'inkoko kuruta uko bagenda babaza inyama y'ingurube mu masoko acuruza inyama.

Ubworozi bw'inkoko burafasha kubera yuko abantu babona amagi, babona inyama, babona amafaranga, imiryango yabo ibaho neza ikabaho nta kibazo na kimwe ifite.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere, bufasha cyane abaturage mu kubona amagi, kubona inyama, kubona amafaranga, kubona iterambere, kubona byose bakeneye mu buzima bwabo.

Ingurube n'ubworozi bw'amatungo magufi butanga umusaruro utandukanye, zitanga ifumbire, zitanga amavuta iyo bazibaze, zitanga inyama ndetse n'iyo uzijyanye ku isoko ubona amafaranga ukikura mu bukene.

Ubworozi bw'inkoko butuma abantu babona amagi, bakabona inyama, bakabona amafaranga, bakagira ubuzima buzira umuze kubera ko buri kimwe cyose kiba cyabonetse.

Inka za kijyambere muri iki gihe tugezemo, nizo nka zikwiriye abaturage. Nizo nka zikwiriye buri wese kubera yuko zitanga umukamo, zibyara inyana nziza, ziba nini, ntago zirushya ubwatsi, yewe zinabona ubuvuzi butagoranye cyane iyo abantu bihurije mu matsinda.

Impungure z'ibigori zivamo ibintu bitandukanye bijyanye n'imirire, harimo ifu y'igikoma, harimo kuzikoresha benga ikigage, harimo ko havamo akawunga n'ibindi bitandukanye, byifashishwa nk'ibiryo by'amatungo.

Ibinyamisogwe ni ibiryo byiza cyane bituma abantu birinda indwara zitandukanye mu gihe babyifashishije mu mafunguro yabo ya buri munsi kugira ngo birinde indwarazo izo ari zo zose ziterwa no kuba barabibuze mu mubiri wabo.

Umusaruro w'ibigori ukeneye ahantu ho kuwubika cyane cyane ahantu hisanzuye uzajya ubasha kubona izuba bityo ukuma vuba, inganda zitunganya ibikomoka ku buhinzi bw'ibigori zikawubonera ku gihe zikarwanya ikibazo k'inzara mu gihugu.

Iyo winuye imyumbati, bigusaba ko uzana amahema ukayanika ku mbuga ku zuba ryinshi cyane kugira ngo ya myumbati izume ujye ujye ukuramo imivunde uteke ku bishyimbo kandi uzakuremo ubugari bw'umutsima.

Inkoko ni zimwe mu matungo agira akamaro, aho zitanga amagi ,zigatanga inyama, zigatanga amafaranga. Nimureke twese duharanire kuzisigasira tuzorore kandi twitabaze abahanga mu bijyanye no kuvura ndetse no gushaka imiti y'amatungo y'inkoko.

Inka z'inyambo zigaragara neza cyane, aho ziri ziba zibengerana. Abashumba baziragiye baba bishimye, abaza bazigana barishima cyane. Igihugu kizitunze kizira umuze kuko zitanga umukamo uri hejuru.

Inzobere mu buvuzi bw'amatungo batubwira ko iyo ukurikiranye amatungo yawe neza, ukayakingiza, ukayagurira imiti mu gihe gikwiriye bituma amatungo yawe atanga umusaruro w'igihe kirekire.

Abaturage bajye bamenya ubwenge birinde kurya inyama zakomotse ku matungo yipfishije, kuko aba yapfuye kubera indwara z'ibyorezo bitandukanye, izo ndwara zishobora gukurikira mu bantu bikaba ibibazo.

Inzobere mu kwita ku matungo ndetse no kuyabyaza zisanga iyo inka igiye kubyara biba byiza iyo uhamagaye ugufasha kuba yayibyaza wabyigiye kandi ubifitiye ubushobozi kugira ngo hirindwe ko inyana ishobora kugira ikibazo cyangwa se iyayo ikaba yapfa.

Inyamaswa z'ishyamba, ziba ziganjemo ibice bitandukanye, aho usangamo inyamaswa z'inkazi cyane bita ingwe. Izo nyamaswa zikurura ba mukerarugendo kubera ukuntu ziba zisa neza kandi zitinyitse.

Ingwe ni inyamaswa z'inkazi cyane haba ikigabo, haba ikigore, haba icyana cyazo, byose biba bikomeye cyane ku buryo ahantu biri nta yindi nyamaswa iba yemerewe kuhacaracara kuko zayica.

Abenshi mu bateye imbere bazi ubwenge, bikundira gukora urugendo shuri bakajya gutembera, bakareba inyamaswa z'ishyamba kuko zituma imitekerereze yabo ndetse n'ubundi bumenyi babwunguka ku buryo burambye.

nyamaswa ziba mu mashyamba zikunda cyane cyane kubaho nta muntu uzibangamiye cyangwa nta kidobya, inyamaswa ikindi kandi zikunda ahantu zajya zibona ibyo kurya bitazigoye bityo zikororoka zikanatuma ibihugu bimwe na bimwe bibasha kugira akayabo k'amafaranga aturutse kwa ba mukerarugendo.

Ibishuhe ni ubwoko bw'inyoni, bikunze kwibera mu mazi. Aho biba bifite umutekano bigamije kuzajya biroba amafi n'utundi dusimba two kugira ngo zibashe kubaho.

Inyamanswa ziganjemo: imbogo, ingwe, inyoni zitandukanye, impara n'imparage, intare zikurura ba mukerarugendo bagatanga amafaranga mu gihugu runaka, bituma igihugu gitera imbere.

Imvubu ni inyamaswa z'inkazi cyane ziba mu mazi. Aho usanga ziba zifite imbaraga utapfa kubonana izindi nyamaswa, ziba mu mazi. Zigira amahane, zikunda ubushotoranyi, uramutse uyisagariye irakwica.

Inyamaswa nyinshi zikunze kwibera mu mashyamba arimo amazi menshi kubera yuko zikenera kunywa amazi hari n'iziba zizi ubwenge zikenera gukaraba nk'uko ikiremwamuntu kibigenza.

Inyamaswa z'ishyamba ziganjemo intare, ingwe, inzovu n'izindi usanga zirindira umutekano ku buryo butangaje iyo zitewe na ngenzi zazo zibasha kwirwanaho n'umujinya mwinshi cyane.

Inyoni ni zimwe mu nyamaswa, zifite amajwi meza cyane. Aho usanga ba mukerarugendo bishimira cyane kuza kwiturira hafi, yahari ibyanya bizajya bibagezaho amajwi ndetse, no kuririmba neza kw'inyoni.

Inyamaswa z'ishyamba ziba zishimishije kubera yuko urazireba nawe ukumva wifuje gutembera Igihugu, ukajya kureba ibyo byiza nyaburanga.